Ku ivomero aho abantu bajya gushaka amazi hateraniye abantu, harimo abakobwa, harimo abana, harimo umugabo umwe wunamye yambaye ikabutura y'umweru, ishati y'umukara y'amaboko maremare n'ingofero y'umuhondo, arunamye afite indobo mu ntoki.

Salle nini irimo intebe, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyapa bimanitse, harimo ifoto ya Perezida Paul Kagame imanitse, hari umugabo uhagaze hari n'umugore wicaye ku ntebe.

Abakobwa batatu harimo ufite umusatsi mukeya n'undi usutse n'undi wazamuye ukuboko n'undi wambaye amarinete, bahagararanye n'umusore wambaye isaha, ipantaro y'umukara, wihengetse, uri gufata ifoto, useka.

Itsinda rigari ryiganjemo abagore, abakobwa bafite imisatsi itandukanye, abagabo bogoshe bitandukanye, bambaye imipira ya oranje, bambaye amapantaro y'umukara benshi, bahagaze abandi bunamye, iruhande rwabo hari umuporisi.

Abagore bateraniye mu nyubako ifite amabara y'umweru, ifite ibishushanyo mu nkuta ibumoso n'iburyo, harimo ibishushanyo bitandukanye amabara, abagore bambaye imyenda itandukanye bambaye umweru, umutuku n'ubururu n'umuhondo.

Umubyeyi usutamye, ari imbere y'abana bambaye imipira ya oranje, bogoshe orodineri, uwo mubyeyi yambaye amarinete, ikote, umusatsi uje imbere, yambaye rakosite y'umweru, inyuma ye hahagaze umusirikare ufite igikoresho cya Kinyarwanda cyitwa inkongoro.

Abantu benshi bahuriye ku ivomo, bagiye gushaka amazi, hari abafite indobo z'ubururu, umutuku, umweru, abafite amajerekani mu ntoki, abafite udubido dutoya, abana inyuma, ibiti inyuma n'umugabo wambaye ishati y'umweru.

Abana bane b'abasore bahuriye ku ivomo, bakikije ivomo bajya bari ku mpande uri iburyo bw'ibivomo yambaye ikabutura y'ubururu, umupira w'umutuku. Uri kuvoma usunika yambaye ikabutura y'umukara n'agapira ka kaki, undi umwegereye yambaye ishati y'ubururu n'agakabutura ka kake, undi umwegereye yambaye isengeri y'ubururu bwijimye n'ipantaro ya kake itose, bari ahantu hitaruye hari ubusitani, inyuma yabo hasa neza cyane

Abantu benshi harimo abagore, harimo abagabo, harimo urubyiruko, bitabiriye inama muri sale nini cyane ni benshi baratandukanye, batandukaniye ku myambarire, inyuma hari igikoresho cya kizungu cyifashishwa bafata ifoto kitwa camera, imbere hicaye umukecuru

Umubyeyi uteze igitambaro cy'umweru, yambaye umupira w'umweru, akikiye umwana mu bigoma by'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, yegeranye n'akana kambaye akajipo n'udukamambiri n'agapira hejuru, undi yicaye ku ntebe y'umweru.

Mu kidara cy'umweru ahantu hari abantu benshi bahateraniye, imbere hari umuganga wambaye agapfukamunwa ari gufasha umugore umwicaye imbere wambaye igitenge n'umupira, wambaye udupfukamunwa.

Umubyeyi uteze igitambaro cya oranje mu mutwe, wambaye umupira wa rakosite wa kake, akikiye umwana mu ntoki wambaye umupira w'icyatsi, afite mironko imbere ye n'inkoko, iburyo bwe hari umwana w'umusore.

Umujyanama w'ubuzima ari kwereka umubyeyi uteruye umwana wambaye agapira mo imbere hanyuma harengejeho ikanzu, afite igitambaro mu mutwe wambaye amaherena akikiye umwana ari kwerekwa n'umujyanama wambaye umwenda w'umweru.

Abana benshi, bicaye hamwe n'umukecuru, abana biganjemo abafite imyaka itanu, irindwi n'umunani, bicaranye n'umukecuru ukuze, wambaye ijipo y'ubururu, wambaye ibirenge, wifashe ku kuguru, wambaye agakomo k'umukara.

Itsinda rigari ryiganjemo urubyiruko, harimo umupapa hagati wambaye ipantaro y'umukara, wambaye ishati yatabeje, wambaye na karuvati, iburyo hari umuzungu w'umukecuru bari gufata ifoto hamwe n'urubyiruko.

Abana bari mu kigero cy'imyaka irindwi n'icumi, bafite uburoso mu ntoki bwifashishwa butunganya amenyo bunayoza, bafite udukombe mu ntoki dutandukanye amabara, bambaye imyenda y'impuzankano iniforume.

Umubyeyi ufite imisatsi myinshi yambaye isengeri y'umweru, afite uburoso mu ntoki ari kureba umwana bari guseka bari kwiborosa bari kerebana mu maso, umwana yambaye isengera y'umweru afite imisatsi myinshi ifungiye inyuma, bari mu nzu ifite amarange y'umweru cyane.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amarangi y'umweru, kirimo intebe ebyiri zisa ubururu n'umweru, kirimo ibikoresho bya kizungu, mashini, laronje aho bacomeka, kirimo umutako w'igiti na tiruwari.

Umusaza wicaye ku gitanda ufite imisatsi y'umukara, ubwanwa burimo imvi, yicaye ku gitanda mu nyubako y'umweru. Imbere ye hari umukecuru wambaye amarineti, ufite umusatsi mwinshi urimo imvi n'ikanzu ndende y'ubururu.

Umusaza wambaye ishati y'imirongo y'amaboko magufi, ufite ubwanwa bwinshi burimo imvi, umusatsi muke urimo imvi, afite terefone mu ntoki ari kwereka umukecuru wambaye umupira w'ubururu, bafite amazi imbere ya bo.

Umusaza mukuru wambaye amarinete ufite umusatsi w'imvi, ari mu nyubako y'umweru, ari imbere y'idirishya hari guturuka urumuri, aricaye imbere hari ikirahure cy'amazi, hari ibinini bibiri, hari umukobwa uri kumubwira.

Umukecuru w'imibiri yombi wambaye amaherena afite umusatsi usutse, wambaye agapira k'ubururu, afite imbago mu ntoki, yegeranye n'umusore wambaye imyenda ya kiganga ufite mu ijosi akantu gashinzwe gupima umutima.

Umukecuru wicaye w'imibiri yombi ari guseka, ari kwifotoza, yambaye amaherena, yicaye mu nzu ifite amarangi y'umweru, ku nkuta hari amadirishya, aricaye, umukobwa amuhagaze hejuru, yambaye imyenda y'icyatsi, afite umusatsi mwinshi, ari guseka.

Umusaza w'imibiri yombi ufite imvi mu mutwe no mu bwanwa, ahagaze iburyo bw'umukecuru wambaye ishati y'umweru umukecuru wambaye amarinete ufite umusatsi w'umweru, umusaza ari kwereka umukecuru umuti afite mu kuboko kw'imoso.

Umusaza w'imibiri yombi wicaye, ufite bike mu ntoki, ari gusoma igitabo, yambaye amarinete, afite ubwanwa burimo imvi n'umusatsi urimo imvi, yicaye mu nyubako ifite amabara y'umweru.

Umusaza ufite umusatsi urimo imvi, ubwanwa burimo imvi, yambaye amarinete, ari guseka, yambaye umupira wa rakosite ufite uturongo, imbere ye hari agakombe banyweramo icyayi kitwa itasi, yegeranye n'umusore uri guseka, wambaye ishati ya makarokaro.

Abantu benshi biganjemo abagore, abagabo, bari gufata ifoto bamwe baricaye abandi barahagaze, bari imbere y'icyapa cya Africa Union, mu bicaye harimo umugore wambaye ikoti ry'ubururu.

Umuganga w'umukobwa wambaye agapfukamunwa karinda imyuka mibi yakinjira mu myanya y'ubuhumekero, yambaye itaburiya y'umweru, arahagaze ari imbere ya mashini, ari mu nyubako ifite amarangi y'umweru.

Ibitanda byo kwa muganga biri mu nyubako ifite irangi ry'umweru, ibitanda bifite ibara ry'umweru, bishashweho amashuka y'icyatsi bigiye bifite umwanya.

Inzu y'ababyeyi yita ku babyeyi batwite ndetse n'ababyaye, imbere yaho hahagaze Musenyeri, hahagaze umusirikare n'abandi bagabo n'undi mu Masera uri ibumoso, hasutamye abajyanama b'ubuzima harimo abagore n'abagabo.

Ikigo Nderabuzima cya Tabagwe giherereye mu Karere ka Nyagatare gifasha abarwayi baba baje kuhivuriza, gitanga imiti, kibyaza abagore batwite, cyita ku bagore batwite kikita no ku bana bavutse.

Imboga n'imbuto n'ibikomoka ku matungo, biteretse ku meza; hariho inyama, hariho amagi, hariho imineke, hariho urupapuro, hariho ibitunguru, hariho ibihwagare, iruhande rwaho hari ibikoresho byifashishwa bakora siporo.

Umugabo uri muri siporo mu rukerera, yambaye ikabutura y'umukara, yambaye isaha y'umukara ,afite intoki ndende, arunamye yifashe ku ivi, afite amaguru ariho ubwoya, afite inzara z'umweru cyane.

Umukobwa uhagaze azamuye ukuguru kw'ibumoso agufatishije ukuboko kw'ibumoso, yambaye urukweto rw'umweru rurimo amabara y'ubururu, umutuku, umuhondo, yambaye amasogisi y'umweru, yambaye ipantaro y'ubururu, yambaye isengeri y'icyatsi.

Umukobwa wicaye mu muhanda hagati wambaye imyenda ya siporo y'umukara, yambaye urukweto rw'umweru, yambaye udutanga amajwi mu matwi abenshi bita headphone, afite isaha ku kuboko, afite akantu k'amazi ku ruhande.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite umusatsi mukeya, azamuye amaboko abiri yose ukw'iburyo n'ukw'ibumoso, apfukamishije ukuguru kw'iburyo, ukundi asa nk'aho agushinze, ari muri siporo ngororamubiri.

Umuti witwa Revive Igisubizo k'umuryango, uriho igishushanyo cy'umugore n'umugabo, uyu muti uvura indwara zitandukanye, kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, kandi igakumira n'indwara zifata porositate.